Agatabo kifashishwa n'akabari kitwa bicu, kaba karimo ibinyobwa byinshi bitandukanye n'ibyo kurya byinshi bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo.

Abantu bari mu kabari mu masaha ya nijoro, ni akabari karimo abantu benshi, imbere hari amatara menshi n'abantu benshi, inyuma hari abantu babiri bicaye ndetse n'undi musore umwe uhagaze barimo baraganira.

Aka ni agapapuro kaba kanditseho urutonde rw' ibyo kurya n' ibyo kunywa. Ni ako baguhereza iyo winjiye aho bacururiza ibyo kurya n' ibyo kunywa ugasoma ugahitamo icyo ushaka maze bakakikuzanira.

Akabari gasize amarange ya umukara ndetse na umuhondo wijimye. Hagati harimo televiziyo izimije, kumpande mutubati harimo amacupa memshi atandukanye y'ibinyobwa bisembuye.

Iki ni ikibaho gikunda kuba kimanitse mu buriro butandukanye, aho usanga hariho ibyo bari bucuruze ndetse n'ibiciro byabyo, bityo ugahitamo, ukamenya n'ibihari utabanjije guhamagara abantu ngo ubabaze.

Ameza ateretseho ibirahure byiza ndetse n'ibiyiko n'utundi dukoresho dutandukanye. Hariho agatabo gakunze kuba karimo urutonde rw'ibiribwa n'ibinyobwa ushobora gusanga ahongaho n'ibiciro byabyo.

Akabari kariho ameza y'igitaka, inyuma hari akabati kariho ibirahuri, mo imbere hateretsemo amacupa menshi atandukanye y'ibinyobwa bisembuye. Ku meza naho hateretse ikarahuri kirimo inzoga ifite urufuro hejuru.

Ameza yo mu kabari, ateretseho ikirahure kirimo inzoga icagase, ndetse n'amacupa abiri y'inzoga ikorerwa hano mu Rwanda. Hariho akandi gapapuro kariho amabara y'umuhondo n'umutuku, na ko kamamaza inzoga.

Aha ni ku nkengero z'umuhanda w'amabuye hamanitse icyapa cyamamaza ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda rwitwa sikoro, iruhande hari akazu kubakishijwe imbaho, inyuma hari inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye.

Amarembo yinjira mu kabari kanini, ariho ibirango bitandukanye bigaragaza ko ari akabari, ndetse ibyo birango biri kwamamaza inzoga yitwa Virunga.

Aha hariho abakozi batatu bahagaze mu kabari bakoramo. Inyuma yabo hateretse ibinyobwa bitandukanye, bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Akabari karimo akabati k'umweru gateretsemo inzoga za amoko atandukanye, iruhande rwako hari tereviziyo iri gucaho umupira abantu bari kureba.

Aha hari imeza iriho agatambaro k'umukara. Hateretseho ikinyobwa kita Virunga. Bagisutse mu kirahure, kizana urufuro hejuru.

Akabari keza gakoramo umukobwa wambaye ikanzu y'umukara, ari kwakira abaguzi benshi bicaye imbere ye bari kuganira maze nawe akabahereza ibyo kunywa bifuza.

Akabari kiganiemo amatara asa icyatsi. Hari imeza iteretseho agacupa kashizemo icyo kunywa. Inyuma hicaye umuntu, ndetse inyuma ye hari televiziyo iri kuberaho umupira.

Akabari kariho ameza y'umukara ndetse n'igitaka. Inyuma hamanitse televiziyo ndetse hari utubati tumanitse ku gikuta, turimo amacupa atandukanye, arimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Aha ni mu kabari. Hateretse amakaziye menshi arimo ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye. Hari akabati k'umukara na ko gateretsemo ibyo kunywa bitandukanye. Harimo intebe z'umutuku.

Aha ni mu mazu y'ubucuruzi hariho ibirango bitandukanye bigaragaza ubucuruzi buhabera, hari ikirango kinini kiri kwamamaza akabari, hakaba nakandi karango gatoya kari kwamamaza aho bacururiza ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo, ku ruhande haparitse ipikipiki.

Akabari karimo amatara menshi yiganjemo ayo umutuka nayo ubururu. Hari akabati ka umweru gateretsemo ibyo kunywa byinshi biri mu macupa, byiganjemo ibisembuye.

Akabari gatuje hakaba hahagaze abantu babiri baje kwaka ibyo kunywa bitandukanye, harimo ameza ariho ibitambaro ndetse n'intebe z'umukara.

Iki ni icyapa kiri ku nkengero z'umuhanda, kiri mu ibara ry'umukara; hariho ibirango byamamaza inzoga, kugira ngo abakunzi bayo bamenye amakuru yayo biboroheye.

Aha ni mu kabari ku meza hateretseho ikirahure kiriho imiheha y'umweru, bifashisha bari kunywa ibinyobwa bidasembuye. Inyuma hahagaze umukozi wambaye umupira w'umutuku.

Aha ni mu kabari, akabati, ameza n'intebe byose bisize ibara ry'umukara, mo imbere hahagazemo umukozi w'ako kabari. Akabati karimo amacupa n'ibyo kunywa bitandukanye.

Aha ni mu kabari mu masaha ya n'ijoro, harimo abantu batandunkanye baje kugura ibinyobwa bitandukanye ngo babe babiganiriraho, harimo intebe z'umukara, hacanyemo amatara y'umutuku n'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari. Ikaba ifite amabara y'umweru. Hari ibirango hejuru, biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, bigaragaza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye bacuruza.

Aka ni akabari mu masaha ya nijoro harimo ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, harimo amatara ari kwaka afite ibara ry'umuhondo.

Umukozi ukora mu kabari, uhereza abaje bamugana ibyo kunywa bitandukanye, aha ari kwerekana ubuhanga afite butandukanye muri ako kazi ke, anashimisha abaje bamugana.

Aha ni mu kabari harimo intebe z'umukara ndetse harimo n'amatara menshi atandukanye yaka amabara atandukanye kugira ngo bishimishe abaguzi baza babasanga.

Ahangaha ni mu kabari ahagaze abantu benshi batandukanye, baje kuruhuka banasangira ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo ibisembuye, harutubari twinshi turimo amatara menshi atandukanye.

Urupapuro rwifashishwa mu kabari, rwanditseho urutonde rurerure rw'ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye. Imbere yabyo hari ibiciro byabyo; aho umuguzi aza agasoma, agatumiza icyo ashaka bigendanye n'ubushobozi afite.

Aha ni mu kabari. Hari umukozi wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umweru y'akazi, afite telefoni mu ntoki arimo arafotora; inyuma hari amacupa menshi arimo ibinyobwa bisembuye.

Aka ni agapapuro kariho urutonde rw'ibyo kunywa bitandukanye, ndetse n'ibiciro byabyo ushobora gusanga muri ako kabari, maze ukabitumiza bakabikugezaho bitagoranye.

Aka ni agatabo usanga mu ruriro, aho haba hariho ibicuruzwa cyane cyane ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo. Kugirango ubashe kubigura bitakugoye.

Ikirango kinini cyane kimenyekanisha ko ahongaho hari akabari ndetse n'ururiro, gishushanyijeho icupa ry'inzoga ndetse n'inzoga iri mu kirahure ifite urufuro hejuru, ni inzoga yitwa virunga.

Akabari kariho ameza azengurutse. Hagati harimo akabati karimo amakarito n'amacupa atandukanye, arimo ibinyobwa bitandukanye. Hejuru hari televiziyo ebyiri.

Iki ni igikuta kirekire gisize amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku kikaba kiri kwamamaza uruganda rukora ibyo kunywa bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye rwitwa Skol.

Aha hariho agapapuro gafunikishijwe ikirahure, kariho urutonde rw'ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye abaza mu ruriro rusange bifashisha kugira ngo bamenye ibiciro by'aho uko bihagaze.

Umukozi wo mu kabari, uri kwerekana ubuhanga afite mu kuvanga ibinyobwa bitandukanye; yambaye ishati nziza y'umukara irimo akarongo k'umweru; inyuma ye hateretse amacupa menshi arimo ibinyobwa byiganjemo ibisembuye.

Urupapuro usanga mu ruriro hariho urutonde rw'ibiribwa byinshi byiganjemo inyama zokeje. Imbere hari n'ibiciro byabyo kugira ngo uje abagana abanze asome bityo atumize icyo ashaka kijyanye n'ubushobozi bwe.

Agapapuro kariho urutonde rw'ibyo kunywa byinshi bitandukanye birimo inzoga n'ibindi, aho ushobora kubitumiza bikoroheye ukaba uzi n'ibiciro byabyo.

Aka ni agatabo gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru mukeya, kariho urutonde rw'ibinyobwa bitandukanye ushobora gusanga muri ako kabari kariho.

Abantu babiri b'igitsinagore, bicaye mu kabiri, bari gusangira ibyo kunywa bidasembuye. Ku meza hariho ibiyiko, agatabo ndetse n'agasahani gatoya kariho indimi zikase.

Hano hari abantu bane bicaye mu kabari bari gusangira ibyo kunywa bitandukanye, bamwe bari kunywa ibyo kunywa bidasembuye, undi ari kunywa icyo kunywa gisembuye. Ni abagabo babiri n'abagore babiri.

Akabari kicayemo abantu benshi batandukanye bari kuganira banasangira ibyo kunywa bitandukanye. Hari imeza imbere iteretseho ikirahure kirimo inzoga ifite urufuro rucyeya ndetse iteretseho amarinete ku ruhande.

Ibi ni ibisenge by'amazu menshi ari hamwe, harimo amazu y'ubucuruzi, afite ibirango hejuru yayo by'umutuku n'umweru, bigaragaza ko hacururizwa ibinyobwa bisembuye.

Aha ni mukabari aho bakirira abaguzi babo baza babagana, inyuma mu kabati harimo amacupa y'ibisembuye n'ibidasembuye bitandukanye, imbere mu kabati hateretse ibirahuri.

Aka n'akabari, gahagazemo umugabo uri guseka, ugacuruzamo. Inyuma mu kabati hateretsemo inzoga z'amoko atandukanye. hejuru hari amatara meza ndetse n'imbere hari intebe z'umuhonso

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari, iriho ikirango kinini cyane cy'umutuku n'umuhondo kiriho ikinyobwa cya Skol, cyerekana ko aho ngaho wahasanga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibirango bitandukanye, ikirango cyo hejuru kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Ikiri munsi yacyo gitambitse nacyo kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, hariho n'ikinyobwa gisembuye kigaragaza ko ahongaho hacururizwa ibyo kunywa bisembuye.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari, iriho ibirango byinshi byamamaza inzoga yitwa sikoro ikorwa n'uruganda rukorera hano mu Rwanda.

Aha ni mu kabari harimo abaguzi benshi baje kugura ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye . Harimo ibyo kunywa bisembuye, harimo nibyo kurya biri ku masahane asa umweru.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu yicaye kumeza yo mukabari, hateretseho ibyo kurya bitandukanye birimo inyama, ndetse afite ikirahure kirimo inzoga ifite urufuro hejuru.

Akabari keza cyane! Hasi hatatse amabara y'umukara n'umweru, ku ruhande hariho amabara y'umukara, harimo intebe z'umutuku n'umukara; hirya hIgiye imbere hicayemo abantu benshi, bari kuganira banasangira.

Aha ni kumuhanda w'amabuye uri kunyuraho ipikipiki ndetse hari n'igare. Imbere y'aho hari akabari kamanitseho ibirango by'umweru n'umutuku, kurundi ruhande haparitse imodoka y'umukara.

Aha ni mu kabari. Hari imeza ifite amabara y'umweru n'umukara, iteretseho akarabo k'umweru kari mu kavaze k'umweru n'umukara. Inyuma yaho hari akabati karimo amacupa menshi y'inzoga, n'amazi n'umutobe.

Hano hari inzu y'ubucuruzi irimo abacuruzi batandukanye, umucuruzi umwe acuruza imyambaro, undi mucuruzi ibyo kurya mururiro rusanjye, haparitse imodoka y'umweru hari n'umwana uhahagaze w'umukobwa.

Aha ni ku nkengero z'umuhanda, hamanitse ikirango kinini kiri kuranga icyo kunywa gikorwa n'uruganda rwa hano mu Rwanda, rwenga ibyo kunywa bisindisha n'ibidasindisha.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari, hejuru hamanitse icyapa kinikini kiriho ibirango by'inzoga hepfo haparitse amamodoka atatu hari n'abagenzi babiri bari gutambuka.

Mu kabari hahagaze umukozi ukoramo, wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara. Hasi hateretse amakesi menshi arimo ibinyobwa bitandukanye byiganjemo ibisembuye.

Akabari karimo ameza maremare ya umweru ndetse nintebe za umweru zifite amaguru ya icyatsi. Hejuru hari amatara maremare ari mu ibara rya umukara.

Aha ni mukabari, hari ameza y'igitaka hari inebe iriho ishati inyuma, hari akabati gateretsemo amacupa menshi atandukanye y'ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Aha ni mu kabari, aho inyuma mu kabati hamanitse amacupa atandukanye y'ibyo kunywa ibisembuye n'ibidasembuye, hari n'ibikoresho bifashisha bakonjesha ibyo byo kunywa kugira ngo babihe abaguzi babo banezerwe.

Ikirango kiri ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, hariho ikinyobwa gikorwa n'uruganda rwa hano mu Rwanda rwitwa Skol, cyerekana ko aho ngaho hari akabari.

Aha ni mukabari, harimo intebe nameza abaza babagana bicaraho, imbere hahagaze umusaza wambaye ikote ry'umukara, imbere ye hicaye umutegarugori wambaye agapira k'umweru.

Imeza y'umukara iteretse mu kabari iriho ikirahure kirimo inzoga iruhande hariho akarahure gatoya karimo umunyu ndetse hariho amacupa y'inzoga n'agapfukamunwa.

Umucuruzi n'umuguzi bari mukabari aho umuguzi agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ryaviza kadi. Akaba agiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri na magana tanu

Imeza iri mu ruriro, aho bacururiza ibyo kurya n'ibyo kunywa, iteretseho ibyo kurya bitandukanye birimo amafiriti n'ibindi. Iteretseho ibirahure birimo icyo kunywa kiri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ikote rinini n'ingofero y'umukara, ahagaze kukabari mumasaha ya ninjoro. Iruhande rwe hahagaze abandi bantu batandukanye na bo baje muri ako kabari.

Agapapuro kariho urutonde rw'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye. Imbere yaho hariho ibiciro byabyo, ibyinshi ni ibyo bafata mugihe cya mugitondo.

Igipapuro kiriho urutonde rurerure rw'ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo. Ushobora gusanga mu kabari, maze ugasoma, ugahitamo icyo ukeneye, ukagituma bakakikuzanira.

Icyapa kinini, kiri ku nkengero z'umuhanda. Kiri kwamamaza inzoga ikorwa n'uruganda rwa hano mu Rwanda. Rwita Buralirwa. Inyuma yacyo hari inzu y'ubucuruzi isize amarangi y'umweru.

Amazu y'ubucuruzi, ari mu nkengero z'umuhanda w'amabuye. Haparitse amamodoka menshi atandukanye. Hari ikirango kinini cy'amabara y'umutuku, cyerekana ko aho hafi hari akabari.

Abantu benshi bari mu kabari mu masaha ya nijoro, hari utubati turi hejuru turimo amacupa menshi arimo ibyo kuywa bisembuye; hari amatara hejuru meza yaka umuhondo.

Aha ni mu muhanda waamabuye, harimo moto ihetse abantu babiri utwaye n'uwo atwaye, iruhande rwabo haparitse imodoka eshatu, ebyiri z'umukara n'imwe y'umweru, hari icyapa kiriho ibirango by'ibinyobwa bisembuye.

Aha ni mu ruriro aho bagurira ibyokurya n'ibyokunywa bitandukanye, hari umuntu wicaye ku meza, imeza iriho amakanya ibyuma, ibiyiko ndetse n'ibirahure.

Aha ni mukabari hari amatara meza yumuhondo ndetse hejuru hari amatereviziyo nayo meza , hari abantu benshi bicaye baje kwifatira icyokunkwa bahisemo.

Umukozi ukorera mu kabari wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara. Imbere ye hari abaguzi benshi bafite ibyo kunywa bitandukanye, bari kuganira.

Aha ni mu kabari hari abantu babiri bicaye, bari gusangira icyo kunywa ndetse bari no kureba umupira imbere yabo kuri televiziyo.

Aha hari umukobwa wicaye ahameze nko mu kabari cyangwa se muri resitora. Yicaye nk'utegereje ibyo yatumye, arindiriye ko bimugeraho.

Aha ni mukabari hari abaguzi benshi batandukanye, ab'igitsina gabo nab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, aho bari gusangira ibyo kunywa bitandukanye, ibisindisha n'ibidasindisha.

Umuntu wicaye mukabari yarambitse amaguru kuntebe z'umutuku n'umukara hirya hari abakozi bari mukabari ndetse n'abandi baguzi baje gufata ibyo kunkwa n'amafunguro.

Abantu benshi bingeri zitandukanye bari mukabari barikwishima baganira ndetse banasangira ibyo kunywa bitandukanye, harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Abantu benshi bari mukabari bari kuganira basangira ibinyobwa bitandukanye byiganjemo ibisembuye, imbere hari tereviziyo nini cyane iri kunyuraho umupira uri kubafasha gususuruka.

Aha ni mu kabari. Hari amakaziye ateretse hasi, arimo ibyo kunywa bitandukanye, byiganjemo ibisembuye. Hejuru hari akabati kamanitsemo ibyo kunywa byinshi, byiganjemo ibidasembuye.

Aha ni mu kabari hari umukozi ukora muri ako kabari w'umusore yambaye agapira k'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara. Yambaye isaha ku kaboko, mu kabati harimo amacupa menshi atandukanye.

Umukobwa yicaye ahameze nko mu kabari, yambaye ikoti, afite telefone mu ntoki, hari amatara menshi cyane yaka ibara ry'umutuku, bigatuma haragaragara neza.

Akabari keza kari ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo. Kubabakishijwe amatafari ya Ruriba, imbere harimo intebe ndende z'umukara n'akameza karekare k'umukara n'umweru.

Umuhanda w'amabuye urimo umusore uri kwambuka, iruhande rwawo hari amazu y'ubucuruzi. Hateretse akameza k'umuhondo ndetse n'umutaka w'umuhondo, hari n'ikirango kinini cyamamaza inzoga.

Aha ni mu kabari aho bacururiza ibyokunywa byinshi byiganjemo ibisembuye, ahagaze umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y' y'umukara n'umweru n'umutuku bigaragara ko ari we uhereza ibyo byokunywa ababimusabye.

Hano hari akameza k'umweru gatoya gateretseho ikirahure kirimo amata y'inshyushyu, ku ruhande hatersetse isahane nini y'umweru.

Akabati kamanitse ku rukuta ruri mu nzu y'ubucuruzi, kamanitsemo ibyo kunywa bitandukanye, imitobe n'inyange, n'indi mitobe itandukanye, ndetse n'amazi ya Nile manini n'amatoya.

Aha hari umuntu ufashe mu kiganza cye umutobe ukorwa n'uruganda rw'inyange. Uwo mutobe ukozwe mu mbuto zitwa marakuja ukaba ungana na litiro imwe.

Umuntu yicaye mu ruriro aho abantu bajya gufatira amafunguro atandukanye, afashe umugati awufatishije agatambaro bifashisha kugirango batanduza icyo bagiye kurya.

Ibyansi bigezweho bya kijyambere bikozwe mu byuma, bifite imifuniko y'umukara izengurutse; nibyo bifashisha babikamo amata, mu gihe bagiye kuyajyana aho bayacururiza.

Aha ni mu ruriro hicaye abantu batatu abasore babiri n'umukobwa umwe bari kuganira banasangira amata y'inshyushyu ari mu birahure bibiri n'utujagi dutoya tubiri.

Icyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika, inyuma hari akabati k'umweru kamanitsemo amacupa y'amazi. Ku ruhande hari ikindi cyuma babikamo ibinyobwa maze kikabikonjesha.

Akameza k'umukara, gateretseho akabido k'umweru, gapfundikijwe n'agapfundikizo k'umweru. Hometseho agapapuro kariho igiciro cy'ibirimo. Imbere hahagaze umugabo wambaye imyambaro y'ubururu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi hari ameza y'umweru ndetse n'intebe z'umweru. Ku meza hateretseho imineke, amagi n'amandazi na capati biri mu ndobo.

Izi ni inzu z'ubucuruzi hanze hari imeza y'umweru n'intebe z'ubururu, ku ruhande hari kandagira ukarabe y'icyatsi, hejuru hari ikirango kinini cyanditseho inyange.

Aha hariho umubyeyi ugaragara nk'aho akuze yicaye afite terefone mu ntoki n'isakoshi, imbereye hari icyayi mu itasi, iruhande rwe hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi. JHarimo icyuma gifite ibara ry'umweru gikonjesha ibinyobwa bitandukanye, hari akabati gatoya k'ubururu kariho iteremusi ebyiri n'utudobo turimo ibyo kurya bitandukanye.

Hano hariho indobo y'umweru ibonerana irimo imigati bagiye gucuruza, biteretse ku k'ameza, ku ruhande rwaho hari intebe y'umweru ndetse hari n'udupapuro n'agaterefone gatoya na sharijeri.

Ameza y'umweru ariho agatambaro k'umutuku kuruhande harambitse telephone, hateretseho igikombe kinini kiriho amata y'inshyushyu.

Aha ni imbere mucyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika. Icyuma wagisanga kenshi na kenshi aho bacururiza amata.

Aha ni aho bacuruza ibyo kunywa bitandukanye bikomoka ku mata biteretse ku meza uko byakabaye byose ushobora gusanga muri ubwo bucuruzi.

Aka ni akabati k'icyuma kari mu mabara y'icyatsi, bagatereka hanze bakakifashisha mu bucuruzi butandukanye, hano harimo amacupa menshi y'amazi.

Abana babiri bicaye barikunywa amata, bayarisha imigati. Hari ameza ya umweru ateretseho utubido tubiri twa umweru ndetse na icyansi.

Aha ni aho bacururiza amata. Hari amabara y'ubururu n'umweru, ndetse handitseho inyange. Imbere harimo abakozi babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru.

umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto z'icyatsi afite igikapu cy'umukara, ahagaze ahacururizwa amata hari ameza y'icyuma ndetse hanze haparitse igare.

Aha ni mu nzu, hasi hubakishijwe amakaro y'umweru, hateretseho utubido dutanu tw'umweru twanditseho ibintu bitandukanye n'akandi kamwe k'umuhondo gafite umufuniko w'umutuku.

Aka ni agakombe kaba karimo amata yatunganyirijwe mu ruganda, hakongerwamo isukari n'ibindi binyabutabire, aya akaba yarakozwe ashingiye ku mbuto zitwa inkeri, akaba yarakozwe n'uruganda rwitwa Mukamira.

Aha ni mu ruriro, aho bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye. Ibyo kunywa byiganjemo amata n'imitobe isasembuye. Hahagaze umuntu uje kugura, n'undi uri gucuruza, umeze nk'urimo kumusukira amata.

Aha ni aho bacururiza amata hari ibyuma babikamo bikayakonjesha, kimwe gifite amabara y'umweru, ikindi gifite amabara y'ubururu cyanditseho amata ni ubuzima.

Akameza k'ubururu gateretseho telemusi, ebyiri imwe ndende n'indi ngufi. Gateretseho akadobo karimo capati imbere gafite imikondo y'ubururu.

Iki ni icyuma babikamo amata y'inshyushyu maze kikayarinda kwangirika. Kiri mu nzu imbere, inzu yubakishijwe amatafari ya ruliba.

Ibyokurya byitwa amandazi biteretse ku isahani y'umweru, bikozwe mwifarini bigatuma abantu benshi babikunda, bakabifata babinkwesha icyayi cyangwa amata.

Aha ni mu ruriro, aho bacuruza ibyo kurya bitandukanye, harimo abantu bari gufata amafunguro yabo, hari ameza y'umukara arambitseho amafunguro ndetse n'kirahure kirimo amata.

Aha ni mu nzu y'ubucuruzi, yubakishije amatafari ya ruriba. Harimo icyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika. Ku ruhande hari intebe, ku rundi ruhande hari akameza.

Aha ni mu ruriro aho bacururiza amata n'ibindi byo kurya bitandukanye. Hari ameza menshi y'umweru n'intebe z'umweru. Hicayemo abagabo bane bari kunywa amata mu birahuri.

Aha ni aho bacururiza amata, hari ameza y'icyuma ateretseho ijage ndetse n'agafuniko k'umutuku, imbere hahagaze umukobwa wambaye ikabutura ndetse n'umugabo.

Indobo ibonerana irimo amandazi abiri n'akuma bakoresha bafata ayo mandazi, biteretse ku meza y'igitaka, iruhande rwayo hari intebe y'umweru n'ijerekani y'umweru.

Iyi ni ifoto iriho umukobwa uri kunywa amata yatunganyijwe neza mu nganda akongerwamo isukari ndetse n'ibindi binyabutabire bitandukanye, abantu benshi barayakunda.

Aha ni mu inzu y'ubucuruzi aho bagurisha amata; hari amata ari mu cyansi hasi, hari intebe , hari akameza, hari n'umukobwa uhagaze ufite telefone mu ntoki.

Aha ni aho bagurira ibyo kurya ndetse no kunywa byoroheje. Hari ameza y'umweru, hateretseho isahani y'umweru ndetse n'ikirahure ;hari umuntu ufashe capati mu ntoki.

Aha ni mu bucuruzi, aho abantu bajya kugurira ibyo kunywa n'ibyo kurya byiganjemo amata; hicaye abaguzi babiri ndetse hari n'umucuruzi, uri guhereza amata umuguzi we.

Inzu y'ubucuruzi icuruza amata, harimo akabati gashushanyijeho umwana uri kunywa amata y'Inyange, hariho amagambo agaragaza uburyo ayo mata ari meza n'uburyo anyobwamo.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango y'ubururu iriho ibirango bigaragaza ko hacururizwa amata, imbere harimo akabati k'ubururu n'umweru ndetse n'icyuma gikonjesha ibinyobwa bitandukanye.

Aha ni mu nzu y'ubucuruzi hari amajerekani y'umweru bagurishirizama amazi, iruhande hari urugi rw'ubururu k'urundi ruhande hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye.

Aha ni mu nzu imbere, aho bacururiza amata. Harimo icyuma cyabugenewe bashyiramo amata kikayarinda kwangirika no gushyuha; inyuma ya ho hari akabati karimo imitobe itandukanye ndetse n'amazi.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibyo kunywa bitandukanye harimo amata, amazi, imitobe n'ibindi, harimo umukozi ukoramo w'umukobwa wicaye ndetse hari umugabo uhagaze imbere ye ugiye kwishyura.

Aha hariho umuntu uhagaze ari gusuka amata mu kabido k'umweru gateretse ku meza, ari kuyasuka yifashishije ijage ndetse n'umubirikira.

Isahani nini y'umweru, iriho amandazi menshi. Ni ikiribwa abantu benshi bakunda, bakakinywesha icyayi, amata cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye bidasembuye.

Imeza iriho agatambaro gafite amabara y'ubururu n'umweru, hateretseho ibirahure bibiri birimo amata n'akabido k'umweru, i ruhande n'aho hari intebe y'umweru umuguzi ashobora kwicaraho.

Aha ngaha ni aho bacuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, cyane cyane hakaba higanjemo amata, amata y'inshyushyu, amata y'ikivuguto, n'ibindi bitandukanye, n'imigati, amandazi yo gufatisha ayo mata.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizamo amata harimo icyuma babikamo amata kugira ngo agumane ubukonje ndetse ntiyangirike igihe barikuyaha abaje babagana.

Iki ni ikirango cy'aho bacururiza ibyo kunywa byinshi bikomoka ku mata bikorwa n'inyange. Hariho amata, amazi, imitobe n'ibindi bitandukanye.

Aha ni aho bacururiza amata mu nzu harimo amakaro y'umweru, hateretsemo icyuma babikamo amata kikayakonjesha kikanayarinda kwangirika kugira ngo abaza kuyagura basange ameze neza.

Aha ni aho bacururiza amata, hahagaze umukobwa wambaye akajipo k'umukara n'umweru n'agakote k'umukara, inyuma ye hari icyuma babikamo amata kigatuma atangirika.

Umucuruzi witeze agatambaro mu mutwe, wambaye ishati n'ipanataro y'umutuku, afite amata mu ijage mu ntoki, hari imeza y'umweru iteretseho ijage ndetse n'agafuniko kayo, inyuma hari intebe y'umweru.

Ubucuruzi aho wasanga ibyo kunywa bitandukanye byoroheje, nk'amata ndetse n'ibyo kurya bitandukanye. Hari imeza iteretseho amata ari mu kirahuri ndetse n'amandazi ari ku isahani. Hicaye umubyeyi uri kunywa icyayi kiri mu gatasi.

Umukobwa wicaye yashyize amaboko kumeza y'umukara, ari munzu yubakishijwe amakaro y'umweru hasi ari kureba kuruhande.

Umuntu wishimye uri guseka, wicaye aho bacururiza ibinyobwa byiganjemo amata. Afite akabido k'umweru mu ntoki. Agiye gufata ijage iri imbere ye irimo amata.

Aha ni aho bacururiza amata n'ibindi binyobwa bitandukanye nk'amazi, hari icyuma kinini babikamo amata, ukoramo ari kuvoma amata agiye guha uwaje amugana.

Aha hari inzu y'ubucuruzi irimo abacuruza amata ashingiye ku nyange, imbere harimo akabati k'umweru karimo utubido twinshi tw'umweru.

Aha ni mu nzu y'ubucuruzi barimo barakora amasuku, kugira ngo bakire ababagana hasa neza; hanze haparitse igare na moto ndetse n'abantu bari gutambuka hirya no hino.

Aha ni aho bacururiza ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye; hari akabati karimo amata, imitobe, amazi, n'udukarito n'utundi tuntu dutandukanye, bifashisha mu bucuruzi.

Aha hari umuntu waje mu ruguriro aho ari kunywa icyayi cy'amata ndetse akakinywesha irindazi. Hari akameza gateretseho agasahani kariho ikanya n'ikiyiko.

Utubati tw'umukara, duteretsemo itubido twinshi, tw'umweru. Babikamo amata. N'ibindi byo kunywa bikomoka ku mata, bitandukanye, bahereza abaje babagana.

Aha hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye, hamwe bacuruza imiti, ahandi bacuruza imyambaro, ahandi bacuruza amata. Imbere haparitse imodoka y'umweru.

Ifoto iriho ibice bibiri bitandukanye igice kimwe kiriho aho bacururiza amata ikindi gice kiriho igiti kiri mwisambu nini.

Aha ni aho bakorera ubucuruzi bw'amata. Hari ibyuma bitandukanye bishinzwe kuyatunganya no gutuma adapfa vuba, ku ruhande hari akameza k'umweru hateretse n'indobo hasi.

Aha ni mu nzu y'ubucuruzi, hahagaze umucuruzi wambaye ishati y'umweru irimo uturongo n'ipantaro y'umukara, afite ijage mu ntoki irimo amata bigaragara ko agiye kuyahereza uje kuyagura.

Aha hari akabati kari mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye, harimo amajerekani abiri y'umweru arambitse mu kabati.

Abantu b'inshuti bari ahagurishirizwa amata, bari kuyasangira bishimye ndetse bagakozanyaho ibirahure byayo kugira ngo bagaragarizanye ko bishimanye.

Abantu bicaye mu nzu y',ubucuruzi aho bagurishiriza amata, bari gusangira amata mu birahure bishimye banaganira, andi mata asigaye ari mu majage abiri ateretse ku meza.

Umucuruzi w'umukobwa, wambaye ingofero y'igitaka mu mutwe n'ikanzu y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, ari gucuruza ibintu binyobwa biri mu materemusi ndetse no mu kabido k'umuhondo.

Aha hari amata ari mu tubido ateretse mu kabati k'icyuma, harimo utundi ducupa twinshi turimo ibikomoka ku mata biba byahinduwe bikongerwamo isukari n'izindi ntungamubiri zitandukanye.

Abagabo babiri n'umukobwa umwe bahagaze bari guseka bishimye. Bafite uducupa mu ntoki turimo amata aba yatunganyirijwe mu nganda, hakongerwamo isukari n'ibindi binyabutabire bituma aryoha bidasanzwe.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo amata. Hasi yubakishijwe amakaro y'umweru. Isize amarangi ku bikuta, y'umweru. Harimo ibyuma bibiri, bibikwamo amata, bikayabikaneza, bikayarinda kwangirika.

Aha ni aho bacururiza ibyo kunywa byiganjemo amata y'inyange; inyuma hari akabati k'umweru karimo ibyo kunywa, nk'imitobe ndetse n'ibyo kurya nk'amandazi; munsi yako harimo udukarito tw'inyange.

Aha ni mu bucuruzi, aho bacuruza amata ndetse n'amazi, hari icyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika, hasi hari ijerekani y'umweru, hahagazemo umusore umwe n'abana babiri n'umukobwa uri kubakira.

Iduka rya ubucuruzi ricuruza ibijyanye na amata ndetse na ibiyakomokaho, riri mu nkengero za umuhanda wa kaburimbo, imbere yaryo haparitse ipikipiki.

Aha ni aho bacururiza ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyokurya, hari umukobwa wicaye ucuruza, hari n'umuguzi w'umugabo uhagaze imbere ye uri gufata ibyo amaze kugura.

Aha ni aho bacururiza ibyo kunywa bitandukanye, bidasembuye, ndetse n'ibyo kurya barisha ibyo byo kunywa. Hari amata, ndetse hari n'icyuma bayashyiramo kugira ngo atangirika.

Aha ni aho bacururiza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye harimo amandazi, imigati, hahagaze umucuruzi w'umusaza ndetse n'umuguzi w'umusore uteruye akabido mu ntoki.

Inzu irimo ibyuma bitandukanye babikamo amata kugira ngo atangirika. Bikayakonjesha, ubundi bikanayafata neza. Hasi hubakishije amakaro, ndetse no ku nkuta hariho amakaro n'irangi ry'umweru.

Ahangaha naho bagurishiriza ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye. Hano ku meza hateretseho ikirahure kirimo amata na telefone, iruhande hicaye umubyeyi umeze nkuri kunywa icyo cyayi.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amata, hari akameza k'umweru n'umukara, hari intebe z'ikigina n'umukara, hari ibirango byerekana ko hacururizwa amata n'ibikomoka ku mata.

Ameza ateretseho agasahani k'ubururu karambitseho amasambuza. Isambusa imwe bayiriye ntibayimara, ariko izindi ntabwo baraziryaho. Isambusa ziba zirimo inyama, abantu benshi bakazikunda.

Inzu y'ubucuruzi hasi yubakishije amakaro y'umweru, harimo imeza y'umweru n'intebe y'umweru, hateretsemo icyuma babikamo amata kugira ngo atangirika, imbere yacyo hateretse ijerekani y'umweru.

Hano hari umuntu uhagaze urimo urasuka amata y'inshyushyu mu cyuma cyabugenewe gitunganya amata, kikayasukura kikayarinda no kwangirika bya hato na hato.

Aha ni aho bacuruza ibyo kunywa bitandukanye; nk'amata, imitobe, amazi, n'ibindi. Hari icyuma babikamo amata kugira ngo atangirika.

Aha, hari indobo ebyiri ziteretse ku meza, izo ndobo zirimo amandazi ndetse n'imigati; ku meza hateretse ho ikaramu y'ubururu.

Aha hari isahani y'umweru iteretseho amasambusa atatu, imwe bayiriye ariko ntibayimara. Isambusa ziba zirimo inyama imbere bityo bigatuma abantu benshi bazikunda.

Aha ni mubucuruzi harimo umucuruzi umwe n'umuguzi umwe n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibyo kunywa nk'imitobe, amata n'ibyo kurya nk'amandazi n'amasambusa n'ubunyobwa.

Akabati gateretse ahacururizwa ibyo kunywa n'ibyo kurya byoroheje bitandukanye, kari mu mabara y'umweru n'ubururu, kariho ibirahure bibonerana bituma unona ibyo kunywa n'imitobe birimo imbere.

Imeza iteretseho amata ndetse n'ibindi binyobwa bikomoka ku mata, biba byongewe mo isukari n'izindi ntungamubiri zitandukanye zikomoka ku mbuto, imbere hari umubyeyi ubicuruza.

Amandazi menshi ari ku isahane y'umweru, harimo amandazi basatuye kugira ngo barebe ko imbere hameze neza bityo akaba afite uburyohe budasanzwe bigatuma abaguzi bayagura ari benshi.

Umubyeyi wicaye aho bacururiza ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyo kurya byoroheje, yicaye ku meza ariho igitambaro ndetse ateretseho itasi iriho icyayi, iruhande rwe hari icyuma gikonjesha imitobe itandukanye.

Aha ni aho bacururiza amata: harimo icyuma gishinzwe gutunganya amata, kikayarinda no kwangirika, harimo umukobwa uyacuruza, hahagaze mo n'umwana uri kumwe n'undi mugabo, baje kugura ibyo kunywa bitadukanye.

Aha ni aho nshururisa amata, harimo icyuma babikamo amata kugira ngo ntiyangirike, hari n'akameza gateretseho indobo, ndetse n'akandi kantu nshyiramo utuntu bihanaguza iyo bamaze gufata amafunguro ndetse n'amata.

Icyuma gikonjesha ibinyobwa na ibiribwa bitandukanye. Harimo amacupa menshi y' ibinyobwa bikomoka ku mata biba byongewemo isukari na izindi ntunga mubiri zitandukanye.

Ibyansi byinshi bikozwe mu byuma birimo amata bimwe biruzuye ibindi ntibyuzuye, hari umugabo i ruhande uhagaze uri gushyiramo amata wambaye ishati n'ipantaro y'umukara.

Aha ni mu ruriro, aho bacururiza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya byoroheje. Hari imeza iriho igitambaro gifite amabara y'umukara n'umuhondo. Hateretseho isahani iriho irindazi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi, higanjemo amata y'inshyushyu n'ikivuguto y'uruganda rwa Mukamira, hicaye umuntu uyacuruza imbere. Imbere yaho haparitse imodoka y'umweru.

Inzu yubakishijwe amakaro y'umweru hateretsemo icyuma kibika amata kikayakonjesha kandi kikayarinda kwangirika, naho bacururiza amata.

Aha ni aho bacururiza amata, harimo ucuruza wambaye itaburiya y'umweru, ari gutunganya amata, y'inshyushyu agiye guhereza umuguzi waje amugana.

Akabido k'umweru kanditseho igiciro mu magambo y'umukara, karimo amata gateretse kumeza k'ubururu, imbere hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye imyambaro y'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwiganjemo ibinyobwa bidasembuye nka amata, imitobe, amazi ndetse na ibindi byo kurya byoroheje nka amagi, amandazi, amacapati na ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi iri kunyengero z'umuhanda irimo ibyokunkwa byiganjemo amata ndetse n'ibindi byokunkwa bitandukanye bikomoka kumata cyangwa bifitanye isano.

Abakozi bakora mu bucuruzi bwo kugurisha amata bari gufata amata bayavana mu byansi bakayasuka mu cyuma cyabugenewe kugira ngo atangirika.

Inzu y'ubucuruzi iri ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, harimo imeze y'igitaka, iteretseho indobo ebyiri zirimo amandazi, hateretseho n'ikaramu y'ubururu.

Abana babiri bari kunywa amata mu birahuye haruguru hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru hari ameza y'umweru ateretseho utubido tubiri tw'umweru turimo amata.

Icyuma gikonjesha ibyokunkwa bitandukanye, biteretsemo amata, amazi ndetse nibindi byokunkwa bikomoka kumata biba byongewemo isukari n'intungamubiri zitandukanye.

Akabati gateretsemo igikarito kinini ndetse n'amazi akorwa, akanatunganywa n'uruganda rukorera inaha mu Rwanda, rwitwa Nile. Akaba ari amazi meza aryoha.

Aha ni aho bacururiza amata, harimo intebe z'umukara n'igitaka ndetse n'utumeza, hari akabati, inyuma karimo amajerekani abiri.

Abantu bari mu ruriro umwe arahagaze undi aricaye. Inyuma yabo hari undi uhagaze wambaye umupira munini ufite ingofero. Hari amafunguro n'ibinyobwa biteretse ku meza.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kunywa byoroheje byiganjemo imitobe ndetse n'amata, hahagaze umugabo umwe w'umuguzi ndetse n'undi w'umukobwa w'umucuruzi.

Aha ni mubucuruzi harimo ibikoresho bitandukanye bibika amata, bimwe bikayakonjesha, ibindi bikayarinda kwangirika, hari intebe z'umweru, hari indobo irimo amandazi.

Aha hariho umukobwa ucuruza amata. Ari gusuka amata, ayavana mu kavido, ayasuka mu birahure. Ibirahure biteretse ku meza manini, ndetse biteretse no ku masahani manini.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, iriho ibirango byerekana ko ari ubucuruzi bw'amata bwitwa ikaze. Hari umuryango usize amabara y'umweru.

Aha ni mu bucuruzi hari imeza y'igitaka iteretseho akantu k'umuhondo karimo amajyani, inyuma yaho hateretse ibinyobwa bidasembuye ku ruhande hari icyuma gikonjesha ibinyobwa bitandukanye.

Aha ni aho bacururiza amata n'ibindi bitandukanye bigendana nayo, harimo ameza y'umweru n'umukara ndetse n'intebe zitandukanye, inyuma hari akabati gateretsemo ibintu bitandukanye bifashisha muri ubwo bucuruzi.

Aha hari ameza y'igitaka manini hateretseho indobo ebyiri imwe irimo amandazi iyindi iriho akuma bifashisha bafata amandazi.

Amasambusa asa neza bamaze kwarurira mu isahani nini, ni ikiribwa abantu benshi bakunda cyane kuko kiba kirimo inyama kandi kiryoha iyo gishyushye.

Inzu y'ubucuruzi, ikoreramo umutegarugori wambaye ikanzu y'umutuku, harimo icyuma kinini bashyiramo amata kikayarinda kwangirika bityo bakayacuruza nta kibazo afite.

Umuntu uhagaze uri kurya umugati, imbere ye hari imeza iteretseho ikirahure kirimo amata, iruhande rwacyo hari ikaramu y'ubururu kurundi ruhande hari indobo ibonerana.

Inzu y'ubucuruzi isize amarange y'ubururu n'umweru, hariho akabati gateretseho ibyansi hejuru. Munsi hateretse ibintu bitandukanye nk'amazi afite udufuniko tw'ubururu.

Aka ni akabati kari mu nzu y'ubucuruzi kamanitseho ibyo kunywa byinshi bitandukanye bidasembuye nk'imitobe n'amazi, munsi yaho hari intebe y'ubururu.

Aya ni amandazi menshi ari ku isahani y'umweru, harimo asatuye. Abantu bakunda kuyifashisha bayanywesha icyayi, amata, n'ibindi binyobwa bitandukanye bidasembuye.

Aha ngaha ni aho bacururiza amata. Hicaye umuntu ucuruza amata, arimo aravoma amata ayashyira mu kabido, ayakura mu cyuma gitunganya amata, kikayashyiramo ubukonje, kikanayasukura.

Inzu y'ubucuruzi. Harimo akabati k'umweru gafite ibirahure bibonerana. Gateretsemo amatasi atandukanye y'umweru ndetse n'ikigina. Hateretsemo ibirahure bibiri. Hejuru hateretse indobo irimo amandazi.

Aha ni aho bacururiza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bitandukanye. Hari intebe y'umweru ndetse n'iy'ubururu. Hicaye umukobwa, inyuma ye hari akabati karimo imitobe itandukanye.

Imigati ikozwe mu buryo budasanzwe bw'ubuhanga, iteretse ku isahane y'umweru, nayo iteretse ku meza y'umukara. Bakunda kuyirisha icyayi cyangwa amata.

Aha ni mu nzu y'ubucuruzi y'ubakishijwe amakaro y'umweru, hateretsemo ibyansi byinshi birimo amata y'inshyushyu, bigaragara ko bitegura kuyacuruza.

Iki ni icyumba cyabugenewe babikamo ibyo kunywa bitandukanye: nk'amata, amazi, imitobe n'ibindi; kikabirinda kwangirika, kikabikonjesha. Ku ruhande hateretse amajerekani y'umweru.

Uyu ni umuryango w'iduka ricuruza ibigendanye n'amata ry'ikigo cy'ubucurizi cyitwa Nyanza. Iruhande rwaho hariho amajerekani menshi yifashishwa muri ubwo bucurizi bw'amata

Akabati gateretsemo amazi ari mu ducupa dutoya atunganywa n'uruganda rwa nile, iruhande rwayo hateretse amabahasha abiri y'igitaka imwe nini n'akandi gatoya.

Aha naho bacururiza ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye, ndetse n'amata y'inshyushyu cyangwa ikivuguto. Hari akameza k'umweru giteretseho ijage y'ubururu. Hari icyuma babikamo amata inyuma.

Utuzu tw'ubucuruzi turi ku nkengero z'umuhanda, kamwe kari mu mabara y'umuhondo n'umukara akandi kari mu mabara y'umweru n'umutuku.

Umuntu ufashe agaterefoni gatoya muntoki aho agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga agashyira amafaranga kuri kode y'umucuruzi.

Agapapuro kariho amabara y'umuhondo n'umukara, inyuguti zandikishijwe umukara, hariho imibare ya kode y'uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone.

Umuntu afite aga terefone gatoya mu ntoki, arimo arakifashisha yoherereza amafaranga umucuruzi akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni, ryo kohererezanya amafaranga.

Aka ni akarango kari mu mabara y'umuhondo n'umukara gateretse ku kameza k'ikirahure akarango kariho imibare ya kode abantu bifashisha bari kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Iki ni igikuta cyo mu nzu y'ubucuruzi, gisize irangi ry'umweru, hometseho agapapuro k'umuhondo, hariho imibare ya kode ushobora kwishyuriraho bitewe n'icyo uguze.

Aka ni akazu k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, gafite ibara ry'umuhondo, kariho ibirango byamamaza uburyo icyo kigo gikoresha, gifasha abaguzi bacyo kohererezanya amafaranga mu buryo bworoshye.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bahagaze ku ihema ry'ikigo k'itumanaho cya emutiyene ahari kubera imurikagurishwa, bari gusobanuza byinshi bafitiyeho amatsiko muri icyo kigo maze abakozi baho bakabasobanurira.

Aha hariho abakozi babiri bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'utwara ipikipiki wambaye umupira w'icyatsi n'umweru, bari kuganira bigaragaza ko bishimiye uwaje abagana nabo bakamuha serivisi nziza.

Iyi ni modoka ifite amabara y'umukara, imanitseho akarango k'umuhondo kariho imibare ya kode ushobora kwishyuriraho; imbere yayo hahagaze umu ajeti wambaye umupira w'umuhondo.

Umugabo arahagaze ari guseka arishimye yambaye amadarubindi y'umukara yambaye agapira k'umugondo yarengeje ku ishati, imbere ye haparitse moto ifite amabara y'umuhondo n'umukara.

Umwajenti urimo gukorera mu kazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo n'umukara n'umweru. Ari kwakira abaje bamusaba serivise zitandukanye bahagaze imbere ye bamwe barategereje.

Aha hari abagenti benshi b'ikigo cy'itumanaho cya mtn barikwakira abaza babagana, babasobanurira serivisi zitandukanye bitanga nuko bazitanga.

Aha hari umugabo wicaye ku ipikipiki, yambaye agakote k'umukara afite telefone mu ntoki, imbere ye hahagaze umu ajenti w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni.

Aha ni mu nyubako imbere harimo abakozi batandukanye bakorera ikigo k'itumanaho cya emutiyene, imbere yabo hari abandi baguzi babo baje babagana bari kubasobanurira ibitandukanye kuri serivise batanga.

Akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umutuku, ndetse kanditseho inyuguti n'imibare mu mabara y'umweru, ni ak'ikigo cy'itumanaho cya eyateri, gashishikariza abantu kohererezanya amafaranga bakoresheje, ikorsnabuhanga rya terefone.

Aha hari inzu iriho ibirango by'umuhondo n'umweru n'umukara, byerekanye n'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, iruhande rwaho hahagaze ushinzwe umutekano, iruhande rwe hariho imizindaro itatu n'indangururamajwi.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo cy'itumanaho rya emutiyene, gasize amarangi y'umuhondo, gaherereye mu bice by'icyaro, hari umukobwa w'umu ajeti uhagaze, ndetse ahagararanye n'undi mukozi w'icyo kigo w'umugabo.

Umukozi wicaye mu biro bye, imbere ye hari imeza y'umweru ndetse n'imashini ebyiri z'umukara akoresha yishyurirwaho. Hari ibipapuro byinshi ndetse n'agapapuro kari ku mabara y'umuhondo n'umutuku, gashishikariza abantu kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Aha ni ahari kubera ibikorwa by'ubucuruzi by'ikigo cy'itumanaho cya mtn, imbere harimo umukozi w'icyo kigo, yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, hari akameza gateretseho ibikoresho bitandukanye biriho amabara y'umuhondo.

Abantu bahagaze imbere yakazu k'ubucuruzi gafite, amabara y'umutuku ndetse n'ibirango byikigo cyitumanaho cya airtel ,bari kuramukanya bishimye baseka.

Aha hariho abakozi batatu bicaye munsi y'umutaka bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN ku ruhande rwabo hari gucaho imodoka zitandukanye ndetse n'ipikipiki.

Aka ni akazu k'ubucuruzi, k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, hahagaze abantu batandukanye baje gushaka serivisi zitandukanye zitangwa n'aba ajenti b'icyo kigo.

Aha hari kubera imurikagurishwa, aho abakozi bari muri ako kazu k'umuhondo n'umweru, bari gutanga ubusobanuro na serivise zitandukanye, zerekeranye n'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene.

Imurikagurishwa, ahari kubera ubukangurambaga ndetse n'imenyekanishabikorwa bw'ikigo cya emutiyeni. Hari abantu benshi: harimo abaguzi ndetse n'abakozi by'icyo kigo, bari kubasobanurira ibijyanye na serivise batanga.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubucuruzi kwita MTN, harimo abakozi babiri umwe arahagaze afashe agaseke afashe agaseke undi aricaye, bariguhereza umuguzi waje abagana akantu kari mu gaseke.

Ahari kubera imenyekanishabikorwa no kwamamaza ku kigo cy'itumanaho rya mtn. Harimo abakozi bacyo babiri bicaye, hari ameza ariho ibitambari n'imipira y'imihondo, ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye baje kwereka abaguzi babo.

Aha ni kunkengero z'umuhanda, hicaye umu ajeti ugurisha amayinite, akanatanga serivise zo kubikira abantu, no kubabikuriza amafaranga, ari kumwe n'umuguzi, hajuru yabo hari umutaka w'umuhondo n'undi mutaka w'umutuku.

Aha hariho abakozi bakorera ikigo k'itumanaho kitwa MTN, bari mu kazi kabo aho bari kwakira abaje babagana babasaba serivise zitandukanye.

Aka ni akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda, gafite amabara y'umuhondo n'umweru, iruhande rwaho hariho igiti kinini ndetse hahagaze abakobwa babiri bari kuganira.

Aha hari umu ajenti w'ikigo k'itumanaho, ari mu kazu ke k'ubucuruzi, ari kwakira umuguzi w'umukobwa waje amugana amusaba serivise zitandukanye; icyo kigo k'itumanaho gitanga.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo k'itumanaho cya emutiyene isize amarange y'umweru ndetse n'umuhondo n'umukara, hari intebe abaguzi bicaraho bategereje ko babaha serivisi zitandukanye.

Aha hariho umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Yambaye agapira k'umuhondo, ari kwakira umuguzi waje amugana. Hariho akameza k'umukara ndetse n'imashini y'umukara.

Abagabo babiri bari kubyina, bizihiwe, bishimye. Umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umweru. Undi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu. Inyuma yabo hari umukobwa ukora mu kigo cy'itumanaho cya MTN.

Isoko ry'imyenda hamanitse imyenda myinshi y'abagabo, ndetse hari akarango kari mu mabara y'umuhondo n'umweru n'ubururu kariho imibare ushobora gukoresha wishuriraho mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ibiro by'ikigo k'itumanaho kitwa emutiyene, harimo abakozi babiri umwe yicaye ku ntebe yambaye umupira w'umuhondo, undi arahagaze yambaye umupira w'umweru, bari kwakira umuguzi waje abagana.

Ahari kubera ubukangurambaga nimenyekanisha bikorwa byikigo kitumanaho cya MTN, imbere hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo nipantaro y'ubururu ari kuvuga, inyuma hicaye abandi bantu benshi bari mugisharagati.

Aha hariho umu ajenti w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, ahagararanye n'uwaje gusaba serivise zijyanye n'icyo kigo. Inyuma yaho hariho akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo kariho n'ibirango by'icyo kigo.

Aka nakazu k'umucuruzi gafite amabara y'umuhondo kari kunkengero z'umuhanda karafunze bigaragara ko ukoreramo atariyahagera.

Aha hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo uturongo tw'umweru n'umukara. Ahagaze ku kazu k'ubucuruzi, gafite amabara y'umuhondo, k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni.

Aha hari ipikipiki ndetse n'uyitwara akaba akorera ikigo cy'ubucuruzi gikora imirimo yo kugemurira abantu ibyo kurya mu ngo zabo ahagararanye n'umu agent aho ari kubikuza amafaranga.

Aha hariho akameza ku mukara gateretseho agatabo k'umweru kanditseho ibintu byinshi bitandukanye hariho akandi ga papuro k'umuhondo hariho kode abaguzi bishyuriraho bitewe na serivisi bamaze guhabwa.

Uyu ni umwagenti, ari kwakira umuguzi waje amugana maze akamuha serivise zitandukanye akandika n'imyirondoro ye mu gitabo cyabugenewe.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya MTN. Irimo abakozi benshi bategereje abaza babagana bababaza ibibazo bitandukanye.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, harimo umwajenti imbere ufasha abantu serivise zo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri terefone zabo ngendanwa.

Umugabo uhagaze mu kazu k'ubucuruzi gasize amarangi y'umuhondo. Inyuma hari inzu nini iriho ibigega bibiri by'umukara ndetse isakajwe amabati y'umutuku.

Akarango gafite amabara y'umuhondo n'umweru kandikishijeho inyuguti z'ibara ry'umukara hariho amazina y'umucuruzi ndetse na kode ushobora kwifashisha wishyuriraho.

Akazu k'ubucuruzi imbere harimo aba agenti babiri inyuma hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara utegereje ko bamufasha muri serivise zitandukanye zimugenza.

Aka ni agapapuro kariho ibirango by'ikigi k'itumanaho cya emutiyeni, kari mu mabara y'umuhondo n'umweru n'umukara, handitseho imibare ya kode ushobora gukoresha wishyuriraho.

Iki ni igisenge cy'inyubako gisize amarangi y'umuhondo n'umweru, hariho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya MTN cyamamaza serivise yabo yo kohererezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha hariho abantu babiri, aho umwe yaje kugura risansi, ari kwishyura umukozi w'ikigo gishinzwe kugurisha risansi cyitwa Totari, aho amaze kumuha serivisi yo kumugezaho risansi.

Aha ngaha ni mu isoko hari kubera ubucuruzi butandukanye, aho bacuruza ibyo kurya bitandukanye harimo amafu, imboga, udufuka bapakiramo ibyo bamaze kugura, hari n'abantu babicuruza impande n'impande.

Akazu k'ubucuruzi, gafite amabara y'umuhondo n'umukara. Iruhande hahagaze abagabo babiri ndetse n'utwana dutatu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibirango by'umutuku n'umweru bigaragara ko ikoreramo ikigo k'itumanaho cya eyateri.

Aka ni akazu k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo, imbere hicayemo umuajenti uri guha serivise umuguzi waje amugana afite terefone mu ntoki.

Aha hariho umukozi w'ikigo k'itumanaho cya MTN, yicaye ku ntebe imbere ye hari akameza, azengurutswe n'abaguzi benshi bari kumubaza ibibazo bitandukanye bashaka kumenya.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, harimo abakozi b'icyo kigo bambaye imipira y'umuhondo; ndetse bari kuganira n'abandi bantu baje babagana babasaba serivise.

Utuzu tubiri tw'ubucuruzi: kamwe kariho amabara y'umuhondo n'umutuku, akandi kariho amabara y'umweru n'umutuku, byose ni iby' ibigo by'itumanaho bya Airtel na MTN.

Ikibanza kiri mu imurikagurisha rusange, ahari kubera imenyekanishabikorwa ry'ikigo cy'itumanaho cya MTN, hahagaze abakozi babo batatu ndetse hari n'ikirango kiri kuberaho tombola zitandukanye.

Akameza k'ikirahure, gateretseho telefone ikiri mu gakarito kayo, ku ruhande hateretseho agapapuro kari mu mabara y'umuhondo n'umukara, kariho kode wifashisha wishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni mu iduka ricuruza ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye. Imbere hari uwaje abagana, ashaka serivisi zitandukanye, akaba agiye kwishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abakozi babiri bambaye imipira y'umuhondo bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, baricaye hari ameza y'umukara ndetse n'imashini y'umukara, bari kwakira umugozi w'umugabo uri kubabaza ibibazo bitandukanye.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi by'ikigo cy'itumanaho cyitwa emutiyene. Hari abagabo benshi bahagaze, bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara, bigaragara ko bashobora kuba bakorera icyo kigo.

Aha hariho akazu k'ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cyitwa Emutiyeni; aho umukozi ugakoreramo atanga serivisi zitandukanye: nko kubitsa amafaranga no kuyoherereza abaje bamugana batandukanye.

Aha hari akazu k'ubucuruzi gasize amarange y'umuhondo, imbere karasa umweru harimo umwajenti w'ikigo cy'itumanaho cya MTN uba wakira abamusanga umunsi ku munsi.

Aharikubera imenyekanishabikorwa ry'ikigo k'itumanaho cya eyateli. Hrimo abatu benshi. Bamwe ni abakozi b'icyo kigo, bambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umutuku. Abandi ni abaguzi baje babagana babasobanuza ibyo bashaka kumenya.

Aha hari akameza k'umukara, gateretseho agatabo kanditseho ibintu byinshi bitandukanye, hariho akandi gapapuro ko mu mabara y'umuhondo kariho imibare myinshi ya kode umuntu yifashisha ari kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aka ni akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni gafite amabara y'umuhondo inyuma, imbere gafite amabara y'umweru karimo abakobwa babiri.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi, wambaye agapira k'icyatsi, ari mu isoko aho bacururiza inyanya, aho agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni.

Uyu ni umukozi ukora mu iduka rinini aho ari kwakira abaguzi baje babagana akabafasha kwishyura maze akabapfunyikira ibyabo bagataha.

Akameza gateretseho agapapuro kari mu mabara y'umuhondo n'ubururu; kanditseho amazina y'umucuruzi ndetse na kode zimuranga ushobora kwifashisha unamwishyura.

Uyu ni umu ajenti w'ikigo cyitumanaho cya MTN, afite agapapuro mu ntoki gafite ibara ry'umuhondo kariho kode zimibare abantu bishyuriraho.

Isoko rinini ryitwa Sawa City. aho bacuruza ibintu byinshi by'amoko atandukanye. Aha hahagaze abantu benshi ni aho bishyurira maze bakabaha ibintu byabo bakigendera.

Inzu y'ubucuruzi aho bagurira ibyo kurya bitandukanye bihiye, umuguzi arashaka kwishyura akoresheje ikoranabuhanga rya telefone umucuruzi nawe ari imbere ye ategereje ko amwishyura.

Agapapuro kari mu mabara y'umuhondo n'umweru, kanditseho amazina y'umucuruzi witwa Ngabonziza Jean Bosco. Hakaba hariho nimero za kode ushobora gukoresha umwishyura.

Aha hariho akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo n'umweru imbere, hari umukobwa wicaye ari kwakira abaje bamugana babiri, bahagaze hanze y'aka kazu.

Akameza ko mu biro gateretseho imashini ebyiri ziri kwaka, imbere yazo hari udupapuro ziri mu mabara y'umuhondo n'umweru twinshi turiho amanimero ya kode ushobora kwishyuriraho.

Aka ni akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo bigaragara ko ari ak'ikigo k'itumanaho cya MTN, imbere harimo umwagenti ari kwakira umukiriya waje amugana.

Aka ni akazu k'ubucuruzi kari kunyengero z'umuhanda. Kari mu mabara y'umuhondo n'umukara n'umweru kariho ibirango by'ikigo k'itumanaho cya Mtn, imbere hahagaze umuguzi waje gusaba serivise zitandukanye.

Aha ni kuri sitasiyo icuruza risansi. Imbere hari umuguzi ufite telefone, bigararaga ko agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda. Kari mu mabara y'umuhondo kandikishijweho inyuguti z'umukara zerekana ko ushobora kuhasanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo inyuma, imbere kakagira amabara y'umweru. Harimo umukobwa w'umucuruzi uri kwandika mu gitabo, ari kwakira undi mukobwa w'umuguzi uhagaze hanze.

Aka ni akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda gafite amabara y'umuhondo, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite igikapu cy'umukara.

Akazu k'ubucuruzi kari mu mabara y'umutuku, umukara, umweru n'umuhondo. Kari kwamamaza uburyo bwo kohererezanya amafaranga kuri telefone buzwi nka eyateri mani.

Aha ni ahakorera ikigo cy'ubucuruzi k'itumanaho cya emutiyene, harimo umukozi wacyo ari kwakira umuguzi waje amusanga, ari kumusobanurira ibitandukanye bigendanye n'icyo kigo.

Umuguzi wicaye aho bacururiza ibyo kunywa n'ibyo kurya byorohereje akaba agiye kwishyura yifashishije telefone ye, akishyura abikishije ku ikorabuhanga ry'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene.

Aha ni ahakorera ikigo k'itumanaho cya emutiyene, imbere harimo abakozi b'icyo kigo bari kwakira abaguzi babo baza babagana, hari abahagaze hari n'abicaye bategereje.

Aka ni akazu k'ubucuruzi kariho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene. Hicayemo umwagenti ukora imirimo itandukanye yo guha serivisi abantu zo guhererekanya amafaranga cyangwa kugura amayinite yo guhamagara.

Aha ni imbere mu nzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya Airtel, harimo akabati k'umutuku n'umweru karimo amaterefone atandukanye mo imbere, iruhande hari ikirango kinini kiriho abakobwa babiri bari guseka.

Umuntu afite agaterefone gatoya mu ntoki, ari gukanda imibare kugira ngo abone uko yishyure umucuruzi akoresheje ikoranabuhanga rya terefone.

Aha hari akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda, kari mu mabara y'umuhondo, inyuma yako hariho ibiti byinshi, ku ruhande haparitse imodoka.

Aha hari umusaza wishimye uri guseka, yambaye agapira k'umuhondo ishati y'umukara, n'ipantaro y'ubururu bwijimye ari ku igare rishyashya.

Inzu ikoreramo ikigo k'itumanaho cya emutiyeni. Harimo abakozi bicaye, imbere yabo hahagaze umutegarugori waje gusaba serivise zitandukanye; bakaba biteguye kumufasha uko bikwiye.

Umuntu wicaye yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu. Afite agashakoshi k'umukara, afashe telefone mu ntoki, bigaragara ko agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Aha hari abantu benshi, abagabo batatu n'abategarugori babiri, hari akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo, imbere harimo umu ajenti uri kwakira abo bantu.

Aka ni akarango gafite amabara y'umuhondo n'umukara n'umweru, kariho imibare ya kode yo kwishyuriraho n'uburyo ushobora kwishyura uwo mucuruzi wifashishije ikoranabuhanga.

Aha hariho abakobwa babiri bakorera ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, bambaye imipira y'umuhondo iriho uturongo tw'uburyo bohererezanya amafaranga, bambaye utuntu mu ijosi tugaragaza ibyo bakora.

Aha hari kubera ibikorwa bitandukanye byateguwe n'ikigo k'itumanaho cya eyeteri, hahagaze abantu benshi baje kureba iby'icyo gikorwa ndetse hari n'abakozi b'icyo kigo k'itumanaho bambaye imipira y'umutuku.

Aha hariho abagabo babiri umwe yambaye agapira k'umuhondo ingofero y'icyatsi n'ipantalo y'umukara iruhande rwe hari undi mugabo yambaye agapira k'umutuku n'ipantalo y'ubururu afite terefone mu ntoki n'ibindi avuye kugura.

Aa hari umusore uhagaze wambaye agapira k'ubururu ahagaze mu nzu y'ubucuruzi ya ikoreramo ikigo k'itumanaho cya MTN imbere hicaye umukozi wacyo harimo amamashini akoresha yakira ababagana.

Aha haragaragara umutegarugori uvuye guhaha, afite ibyo avuye guhaha mu ntoki. Iruhande rwe hahagaze abandi bantu bambaye imipira y'umuhondo. Ku rundi ruhande hari ikirango kiri kwamamaza uburyo bakoresha bohererezanya amafaranga.

Aka ni akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni imbere harimo umukozi w'umukobwa wambaye agapira k'umukara ari kwakira uwaje amugana w'umugabo.

Akazu kubucuruzi gasize amarangi y'umuhondo n'umweru imbere hicayemo umutegarugori ugukoreramo, hanze hari guca akana gatoya gafite ishashi muntoki.

Aha hahagaze umugore uri guseka, yambaye isaha ku kaboko n'akantu mu ijosi karanga aho akorera. Inyuma hari ikirango kinini cy'umuhondo, cyamamaza ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene.

Inzu nini igeretse ifite imiryango myinshi iri mu mabara y'umweru, imbere yayo hateretse akandi kazu k'ubucuruzi gatoya kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, imbere harimo umwajenti.

Akazu kubucuruzi kari kunkengero z'umuhanda, gafite amaba y'umuhondo, kanditseho amagambo ari mwibara ry'umutuku n'umukara, imbere harimo umugenti ugakoreramo.

Umuntu afite telefoni mu ntoki, aho ari kuyikoresha areba ibicuruzwa biri kuri murandasi, kugira ngo agire ibyo yagura baze kubimwoherereza.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda, hari abaguzi benshi bategereje guhabwa serivisi n'umu ajenti urimo; akaba atanga serivisi zitandukanye: nko kubitsa no kubikuza amafaranga.

Abakozi bakorera ikigo k'itumanaho kitwa emutiyeni, bambaye impira y'umuhundo ndetse imbere yabo hari umuguzi uje abagana bakaba biteguye kumufasha serivisi zitandukanye.

Aha hari akazu k'ubucuruzi, gafite amabara y'umuhondo n'umukara ndetse n'umutuku. Imbere yako hahagazeho abakobwa babiri, bombi bambaye amashati y'umutuku n'amajipo y'umukara. Undi muhungu yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu ndetse afite igikapu.

Akazu k'ubucuruzi Kari kunkengero z'umuhanda iruhande rwako hariho ipoto y'amashanyarazi urundi ruhande ruriho icyapa.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye umupira y'umuhondo, isaha y'umukara ku kaboko afite telefone ngendanwa mu ntoki. Uwundi afite igare rifite amabara y'umuhondo.

Abakobwa batatu bahagaze bishimye baseka, babiri bambaye imipira y'umuhondo, undi yambaye umupira w'ubururu uriho amagambo y'umuhondo, umwe yambaye marinete ndetse n'ingofero.

Umwajenti wambaye ijire y'umuhondo iriho ibirango by'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, ari gufasha umuguzi w'umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'amarinete.

Aka ni akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda kariho amabara y'umuhondo n'umukara n'umutuku, imbere harimo aba ajenti batatu hanze hari abaguzi batatu bari gusaba serivise zitandukanye.

Abagenzi babiri bavuye ku mapikipiki bagiye kwishyura: umwe agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga rya terefone undi agiye kwishyura, ,yishyuye amafaranga mu ntoki.

Abagabo babiri bahagaze umwe ni umuajenti w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, uwundi ni umuguzi, bari kuganira amukorera serivise. Inyuma ya bo haparitse imodoka y'umukara.

Aka ni akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya eyateri, kari mu mabara y'umutuku n'umweru, kari ku nkengero z'umuhanda ahari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye.

Akazu k'ubucuruzi gasize amabara y'umuhondo imbere harimo umwajenti ugakoreramo hanze hahagaze umuguzi wambaye ishati y'ubururu nipantaro y'umukara bombi bari kuganira.

Ahari kubera imenyekanisha bikorwa by'ibigo bitandukanye iki akaba ari ikibanza cy'icyigo cyitumanaho cya MTN , harimo abakozi bacyo batandukanye ndetse n'abaguzi bari kuza bakigana.

Aka ni akazu k'ubucuruzi, k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene. Karakinze, umu ajenti ukoreramo yasohotse. Kari ku nkengero z'umuhanda, inyuma yako hari indi nzu ifite amabara y'umuhondo.

Aha ni mw'imurikagurisha, iki ni ikibanza cy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Niho abakozi babo bari kwakirira abaza babasanga bakabasobanurira imikorere y'icyo kigo na serivise zitandukanye batanga

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, bahagaze ahari kubera imurikabikorwa ry'icyo kigo. Bari kwakira abaguzi benshi bari kuza babagana, bakabagezaho serivise zitandukanye batanga.

Umukobwa w'umugenti uhagaze mukazuke kubucuruzi gafite amarage y'umuhondo, ndetse kanditseho amagambo y'umukara n'umutuku, byerekanako akora serivise zo kubitsa n'ukubikuza amafaranga kuri telefone.

Uyu ni umukozi uri kwakira uje amugana, bari kuganira amusobanurira byinshi bitandukanye bigendanye n'ibyo bakora, hari imeza y'umukara, iruhande hari imashini y'umukara na yo akoresha mu kazi ke.

Aha hari abagabo babiri, umwe yambaye ikanzu, ahetse igikapu, yambaye ingofero y'umweru, undi yambaye ishati n'ipantaro y'umukara. Bahagaze imbere y'akazu k'ubucuruzi, gafite amabara y'umuhondo n'umukara.

Akazu k'ubucuruzi gakunze kuba kari ku nkengero z'umuhanda, gasize amarangi y'umuhondo ndetse kanditseho inyuguti z'umukara. Mu imbere harimo umu ajenti uri kwakira abaza bamusanga, akabakorera serivise zijyanye no kubitsa no kubikuza.

Aba ni abagabo bakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki. Amapikipiki yabo ni amwe agezweho akoresha umuriro w'amashanyarazi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorerwaho ubucuruzi, ruhuza abahinzi n'abaguzi ndetse n'abandi bacuruzi baba bifuza kurangura, hariho ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo.

Iki ni ikigo cy'ubucuruzi cyitwa vuba vuba, aho utumiza ibintu bitandukanye ushaka, ukabyishyura maze umukozi wabo uwo uhagaze akabikuzanira iwawe.

Urubuga rw'ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, aho winjiramo ugasangamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo; icyo ushimye ukagitumiza bakazakikuzanira, bakakigusangisha mu rugo.

Uyu ni umukozi ukoresha ipikipiki mu kazi ke ka buri munsi. akorera ikigo cybucuruzi cyitwa bilasi, akora akazi ko kugemurira abaguzi ibyo batumye akabibasangisha muru rugo.

Uyu ni umukozi ukoresha ipikipiki, akaba akorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Vanoma, icyo kigo ushobora kugihamara ukagituma ibicuruzwa bitandukanye, bakabikuzanira iwawe mu rugo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi. Hariho ibicurizwa byinshi, bitandukanye, mu ngeri zitandukanye. Aho ushobora kuhasanga amafelefone, imyenda y'abagore, imyenda y'abana, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukozi ukorera ikigo cy'ubucuruzi cyo kugemurira abantu batandukanye ibiryo mungo zabo, akaba akora aka kazi yifashishije ipikipiki ikamugezayo vuba adatinze.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi rukora imirimo y'ubucuruzi ikoranye ikoranabuhanga, hariho urutonde rw'imboga bacuruza ndetse n'ibiciro byazo.

Ipikipiki ebyiri zometseho udukarito zifashishwa n'abakozi bakorera ibigo by'ubucuruzi bitandukanye, aho bagemurira abaguzi babo ibyo baguze bakabibasangisha mu ngo zabo.

Aya ni amapikipiki akorera ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi, aho abaguzi bacyo batumiza ibyo kurya bitandukanye bakeneye hanyuma abo bakozi bari kuri za moto bakabibashyira iwabo.

Iyi ni ipikipiki ikorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Vuba vuba, aho uhamagara kuri nimero yabo, bakakoherereza ibyo ukeneye ukabishyura maze bakabikuzanira murugo iwawe utarinze kujya kubyirebera.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi, aho bashyiraho ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, maze ubikeneye akabisangaho akabitumiza, bakabimuzanira.

Abakozi babiri bicaye aho bakorera. Umwe ari kwakira umuguzi, undi ari kuri telefoni ari guhamagara. Ni aho bacururiza ibintu bitandukanye birimo amatelefoni, terevisiyo n'ibindi.

Aha, bari kutwereka urutonde rw'ibigo by'ubucuruzi bikorera kuri murandasi, bikorera mu Rwanda; bikaba bifasha abantu kugura ndetse no kugurisha ibintu bitabagoye, bakabikorera kuri enterinete.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi, aho bibanda ku biribwa n'imboga, imbuto, maze bakabyohereza mu rugo rwa buri muntu wabibasabye.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu. Ateruye ikarito mu ntoki yanditseho Rumi, bigararaga ko akorera icyo kigo.

Telefone abenshi bita mubazi ikunda kwifashishwa n'abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki, ikaba ibafasha kumenya aho bagiye ndetse n'igiciro bari bwishyuze abagenzi.

Umukozi ukorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa vuba vuba akaba akora akazi ke akoresheje ipikipiki, aho ashyira abaguzi ibyo bamutumye akabibasangisha aho bari.

Uru ni urukuta rw'ikigo k'ikoranabuhanga gicuruza gikoresheje murandasi, usangaho ibicuruzwa byinshi bacuruza harimo amashakoshi, inkweto n'ibindi bitandukanye abaza babasanga bakenera.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi, aho bacuruza inkweto maze ukabahamagara cyangwa ukabandikira, maze bakagusangisha izo nkweto aho uri iwawe, ukabaha igihumbi cy'itike.

Ibikoresho bitandukanye harimo ikote, igikapu cy'abadamu na terefone zigendanwa, bigurishwa bifashishije ikoranabuhanga, aho ubitumiza bikakugeraho bitagoranye.

Iyi ni moto ikorera ikigo cy'ubucuruzi, aho ubahamagara ukababwira amafunguro ukeneye kurya bayagutunganyiriza bakayazana bakayagusangisha iwawe mu rugo.

Iyi ni ipikipiki iparitse ku nkengero z'umuhanda, ikaba ikorera ikigo cy'ubucuruzi kitwa ''vuba vuba'', hariho na nimero ushobora guhamagara.

Uyu ni umukozi ukorera ikigo cy'ubucuruzi kitwa vuba vuba, atwaye moto imufasha mu kazi ke aho agenda agemurira abantu ibicuruzwa baguze akabibasangisha iwabo mu rugo.

Hano hahagaze abantu babiri umwe n'umugore umeze nkuje guhaha undi ni umukobwa uri kumuhereza ibyo amaze guhaha birimo ibyo kurya bitandukanye ndetse n'amavuta.

Aha hari umuhanda w'amabuye, hari ipikipiki ndetse n'uyitwara; akorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa vuba vuba, gishinzwe gushyira abantu ibyo batumye mu ngo zabo.

Uru ni urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi rwitwa alibaba, hariho urutonde rw'ibicuruzwa bitandukanye ndetse imbere yabyo hari n'igiciro cyabyo.

Umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi kitwa Safi, akaba akoresha ipikipiki, aho azaniye umukobwa ibyo yari yamutumye akoresheje ikoranabuhanga.

Umukobwa wishimye ufite ibisuko biryamye kumutwe, afite amaherena manini azengurutse, yambaye agakomo ku kaboko; akorera ikigo cy'ubucuruzi kitwa ''Vuba vuba''.

Umukozi ukorera ikigo cyitwa Vuba vuba. Akaba akora akazi ko kugemurira abantu ibintu bitandukanye akabibasangisha iwabo akoresheje igare.

Iyi ni ikamyo nini ifite amabara y'umuhondo n'ubururu yanditseho iposita, ikaba ikorera ikigo gishinzwe gufata ubutumwa kikabushyira abantu batandukanye bari kure.

Ikirango cy'ubucuruzi k'isoko rya Kimironko aho bacuruza ibyo kurya bitandukanye harimo imboga, imbuto, amafarini, inyama, amavuta, inyanya n'ibindi byinshi bitandukanye wasanga kuri iki kirango.

Iyi ni imodoka y'umutuku, ku kirahure cyayo inyuma hariho ibirango bitandukanye na nimero ushobora guhamagara ushaka abakugezaho serivisi zigendanye n'ibyo birango.

Urubuga rw'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa FedEx, aho abaguzi bacyo batandukanye bagitumizaho ibicuruzwa bitandukanye; bakabivana mu mahanga ya kure maze bakabibasangisha aho bari.

Iyi ni ipikipiki n'uyitwaye. Bakorera ikigo cy'Ubucuruzi gikorera kuri murandasi cyitwa Kasha. Hariho nimero ushobora kubahamagaraho bakakuzanira ibikoresho by'isuku bacuruza, bakabigusangisha mu rugo.

Iki ni igishushanyo cyamamaza ubucuruzi, aho ubwo bucuruzi bwiganjemo kugurisha ibyo kurya bitandukanye, harimo: amavuta, inanasi, inyanya, ibitunguru, amafarini atandukanye amafi n'ibindi byinshi.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi, rukaba ruri kwerekana ibigo bitandukanye bikorera ubucuruzi kuri murandasi, wasanga mu Rwanda.

Abakozi bakorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Vuba Vuba, bakaba bakoresha amapikipiki, bakaba bahagaze imbere ya hotel, aho bari bagemuriye ibyo kurya abantu bahari.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi, aho ruri kuranga ibicuruzwa bitandukanye waguraho maze ukagabanyirizwa ibiciro, hariho ibikoresho byo munzu, umunzani, n'ibindi.

Ikirango k'ikigo k'itumanaho cya Eyateri kiri kumenyekanisha uburyo ushobora gukoresha interineti ukishyura ibihumbi bitanu maze ukamara ukwezi kose ukoresha interinete ingana na jigabayite mirongo itandatu.

Aha hariho umukozi ukorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Vuba vuba, gikora imirimo yo kugemurira abantu ibicuruzwa bitandukanye baba bagitumye, hanyuma umukozi wacyo akabibagemurira yifashishije ibinyabiziga bitandukanye nk'igare.

Ubutumire buri kwamamaza igitaramo kizahuriza hamwe abanyamuziki n'abanyarwanda. Amatike yabo ukaba ushobora kuyasanga ku rubuga rw'ikoranabuhanga rwa jumiya. Aho wayagura bikoroheye kandi bakakugabanyuriza ibiciro.

Abakozi b'ikigo cy'ubucuruzi kitwa juniya fudu. Kikaba gikora imirimo yo kugezaho abantu amafunguro mu ngo zabo, aba bakaba babikora bifashishije amapikipiki.

Iyi ni ifoto iri kwamamaza ubucuruzi bukorewe ku mbuga nkoranyambaga bukoreshejwe ikoranabuhanga. Ubwo bucuruzi bukorwa n'abantu bakura ibintu i Burayi no mu Budage babyohereza impande nyinshi zitandukanye z'isi.

Iyi ni ifoto iri kwamamaza ikigo cy'ubucuruzi cyitwa ''isoko rigari''. Ni ikigo gitanga serivisi zo kugeza ku baguzi bacyo ibyo baguze hakoreshejwe ikoranabuhanga; aha hariho nimero zabo n'uburyo butandukanye wababona.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rukaba rukora ibikorwa by'ubucuruzi, aha bakaba bari kwerekana ibicuruzwa by'amandazi, hakaba hariho n'ibiciro byayo munsi.

Iyi ni ifoto iriho umukobwa wicaye ari guseka. afite telefone mu ntoki, imbere ye hari agakapu k'umukara kanditseho amagambo y'umweru.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi rwitwa iduka, aho abantu barujyaho bashobora gusangaho ibicuruzwa byinshi ndetse n'ibiciro byabyo maze bakabigura, bakabiboherereza aho bari murugo.

Ipikipiki zikorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa migro aho uhamagara nimero zanditseho cyangwa ugakoresha murandasi ubavugisha maze ibyo ubatumye bakabikuzanira murugo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, imbere harimo ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibiribwa, nk'imbuto, hanze hari imiryango y'icyatsi hejuru hariho ibirango byiryo duka.

Aha hari imodoka nyinshi z'umweru zifite amarangi y'umuhondo inyuma, zanditseho Twiga. Ziri imbere y'amazu menshi y'ubucuruzi, aho zikorera.

Aha ni mu isoko harimo abacuruzi benshi bambaye amataburiya y'umukara ndetse n'ingofero z'umweru, barigucuruza ibyiganjemo ibitoki.

Umukozi ukorera ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi. Aho bamutuma ibicuruzwa bitandukanye maze akabishyira ku ipikipiki akabijyana akabisangisha abaguzi aho bari mu rrugo.

Ikirango kiriho umubyeyi w'umugabo uri kumwe n'umwana we, cyamamaza ibikomoka ku mata, biba byongewemo isukari n'intungamubiri zidasanzwe, wasanga mu mata asanzwe. Bigatuma abana bazikunda cyane.

Iyi ni ifoto igaragaza urubuga rw'ikoranabuhanga ruriho imibare y'uburyo ibihugu bigenda bikurikirana mu kurukoresha. Ni Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Uburusiya, Ubuhinde ndetse n'ibindi byinshi.

Abagabo babiri, umwe akora ubucuruzi akoresheje ipikipiki, ari guhereza umuguzi we ibyo yari amuzaniye, abimusangishije iwe mu rugo.

Uru ni urukuta rw'ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi. Hariho ibicuruzwa bitandukanye nk'inyama, umugati, udusambusa ndetse n'ibiciro byabyo.

Abakozi bakoresha amapikipiki mu kazi kabo ka buri munsi, aho bagemurira abantu batandukanye, ibyo kurya babatumye, bakabibagezaho mu buryo bwihuse kandi bitabagoye.

Umukozi uri mu kazi ke, akorera ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi cyitwa vuba vuba. Aho akoresha ipikipiki agashyira ibintu bitandukanye abaguzi bamutumye akabibasangisha mu rugo.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga, abantu bahahiraho ibintu bitandukanye byinshi biturutse mu Bushinwa. Hariho urutonde rw'ibyo bicuruzwa bitandukanye ndetse n'imbere yaho hari igiciro cyabyo.

Urubuga rw'ubucuruzi rwitwa kiku, hariho urutonde rw'ibintu byinshi nk'imyambaro, inkweto, telefoni n'ibindi bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo.

Aba ni abakora akazi ko gutwara abagenzi bakoresheje amapikipiki, bari mu muhanda bafite abagenzi babiri bari gutwara bakagenda banaganira na bo.

Uyu ni umukozi ukorera ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi cyitwa Kasha. Akoresha ipikipiki ashyira abaguzi babo ibyo basabye, akabibasangisha mu rugo iwabo.

Uyu ni umucuruzi akorera ubucuruzi bwe ku ipikipiki, aho abaguzi be mamutuma ibyo bakeneye akabibazanira, akabibagezaho iwabo batarinze kujya kubyishakira.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi, hariho ibicuruzwa bitandukanye nk'amasakoshi, inkweto, amakote n'ibindi. Ndetse banakugabanyiriza ibiciro.

Inzu ikoreramo ikigo cyitwa iposita isize amarange y'umuhondo n'ubururu, hasi haparitse amamodoka n'amapikipiki n'abakozi bayifasha mu mirimo ya buri munsi.

Urubuga rukora imirimo y'ubucuruzi ikorewe kuri murandasi, aho umuguzi ashobora gutumiza ibikoresho bitandukanye hanze, maze bakabimuzanira mu gihugu cye atarinze kwigirayo.

Amazu atandukanye y'ubucuruzi, yose aracuruza imyambaro kandi asize amarangi y'umweru, imbere haparitse imodoka y'ubururu.

Ipikipiki ikorera ikigo cy'ubucuruzi kitwa yego, iri mu mabara y'umutuku ndetse handitseho nimero ushobora kwifashisha ubahamagara kugira ngo bagufashe mu byo bakora.

Aha ni mu isoko, harimo abacuruzi benshi batandukanye, bambaye amataburiya y'umukara n'ingofero z'umweru mu mutwe, bacuruza ibyiganjemo ibitoki.

Abantu babiri bahagaze bishimye bombi bambaye imyambaro y'umukara, umwe ni umwirabura undi ni umwera. Bafite ingofero zo gutwara amapikipiki mu ntoki.

Akabari kubakishijwe urukuta rugufiya rw'amabuye. Imbere harimo intebe z'umutuku n'imitaka y'umutuku. Inyuma hariho uturabo twinshi dutandukanye.

Uru ni urukuta rw'ikigo cyitwa irembo gikorera kuri murandasi, hariho urutonde rw'ibyemezo bitandukanye ushobora kubona uciye kuri urwo rubuga bitakugoye.

inzu z'ubucuruzi zitandukanye , zicururizwamo imyambaro inzu imwe iparitseho imodoka imbere, namazu afite amarange y'umweru.

Abakora umwugo wo gutwara abagenzi ku mapikipiki bambaye amashati y'umutuku ndetse n'ingofero z'abugenewe z'umutuku zanditseho yego moto.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi. Hariho ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo. Basangaho inkweto, utwuma twica imibu n'ibindi bitandukanye.

Uyu ni umukozi ukorera ikigo cyitwa Kasha. Ni ikigo gikorera kuri murandasi, aho kugituma ibyo ukeneye bakabikuzanira bakabikugezaho iwawe mu rugo, ndetse hariho na nimero ushobora kubahamagaraho.